Inama yahurijwemo n'urubyiruko kuganira ku bintu bitandukanye byabateza imbere nk'urubyiruko muri rusange kandi bigatuma barushaho guteza imbere n'igihugu cyabo.

Yahuriwemo na bamwe mu bayobozi b'ibigo bitandukanye, aho bari kwiga ku cyateza imbere ibigo bakoreramo, ndetse n'uburyo bashobora gufasha abaturage muri rusange.

Inama yahuriwemo n'urubyiruko rutandukanye, mu kuganira ku cyateza imbere urubyiruko muri rusange ndetse n'icyateza imbere igihugu, kandi bakungurana ibitekerezo bitandukanye.

Inama yahuriwemo na bamwe mu bakozi ndetse n'abayobozi bafite inshingano runaka zitandukanye, mu kuganira ku bintu byabateza imbere kandi bigateza imbere n'igihugu ndetse n'abaturage.

Inama yahuriwemo n'abayobozi batandukanye aho bari kuganira ku bintu bitandukanye , byabafasha kuba bakomeza guteza imbere akazi bakora ndetse bakaba bari no gutanga bimwe mu bitekerezo byabafasha.

Umwe mu bari gutanga imbwirwaruhame ku bantu bamukurikiye birashoboka ko ari urubyiruko cyangwa abo bakora mu kigo kimwe kugira ngo abagezeho bimwe mu byagezweho cyangwa inama zitandukanye zishobora kubafasha mu kazi kabo ka buri munsi.

Bamwe mu bitabiriye inama y'ikigo runaka mu kuganira ndetse no gufata ingamba zifitiye igihugu akamaro ndetse n'abaturage.

Bamwe mu bayobozi bahagarariye amakipe runaka cyangwa ibigo runaka aho ari gutanga igitekerezo, kugira ngo yunganire cyangwa ikibazo kugira ngo arusheho kumenya cyangwa kugira ibyo yunguka mu byerekeranye n'akazi ke ka buri munsi.

Umwe mu bayobozi b'ikigo runaka aho arimo aratanga ikiganiro mbwirwaruhame imbere y'abantu, akaba ashobora kuba ari kubasobanurira ibintu bitandukanye bishobora kuba byabateza imbere muri rusange.

Abayobozi n'abatumirwa bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bahora bazererikana kandi banibuka impamvu bakoze inama ndetse n'imwe mu myanzuro yagiye ifatwamo maze bayishyira mu bikorwa.

Umwe mu bayobozi bahagarariye inama aho ari gutanga ikiganiro cy'imbwirwaruhame akibwira bamwe mu bamukurikiye, kirimo inama zitandukanye zishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse no mu kazi.

Bamwe mu bayobozi b'inzego zitandukanye aho bari mu nama kugira ngo baganire ku bishobora gufasha abaturage ndetse nabo ubwabo bakarushaho kunoza imikoranire yabo.

Inama yateranyirijwemo abaturage batandukanye ndetse na bamwe mu bayobozi, mu kuganira ku cyateza imbere imidugudu yabo cyangwa icyabateza imbere nk'abaturage muri rusange.

Inama yahuriwemo n'abayobozi ba leta ndetse n'izindi nzego zitandukanye, mu kuganira ku bintu runaka bishobora gufasha igihugu muri rusange.

Uburyo bwashyiriweho umuturage kwishyura imisoro akoresheje igikoresho cye ngendanwa, aho bamurangira uburyo yabikoramo kandi bigatuma yishyura neza kandi amafaranga akagera aho agomba kujya.

Urubuga rugenewe abaturage mu kuba bakwiyandikisha, basaba ubufasha butandukanye by'umwihariko ubufasha mu byerekeranye n'uko bashobora gusura inkambi z'impunzi, cyangwa ibindi bikorwa bitandukanye.

Iyamamazwabikorwa ku baturage bifuza kuba bakora akazi runaka by'umwihariko ibyerekeranye no kuba batwara ibinyabiziga ndetse n'ibyo basabwa kugira ngo babone ako kazi.

Urubuga rwashyiriweho abaturage mu kuganira cyangwa gutanga ibitekerezo mu bintu bitandukanye, by'umwihariko ibyabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umunara muremure cyane, ukozwe mu byuma kandi ufite amabara agiye yihariye, buri aho iba iri hose, ikaba yifashishwa mu itumanaho rusange.

Uburyo bushya bwashyiriweho umuturage kugira ngo abashe kuba yagira icyangombwa asaba yifashishije ikoranabuhanga ndetse n'urubuga rwashyizweho na leta.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye, urugero nk'ahatangirwa ubufasha mu byerekeranye n'ikoranabuhanga ndetse hakanagurirwa cyangwa hakagurishirizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa harimo amata.

Uburyo bwashyiriweho umuturage mu kumenya uko yakwishyura imisoro yifashishije igikoresho cye ngendanwa, bitabaye ngombwa kwirirwa ajya kubibaza aho bikorerwa.

Uburyo bwashyiriweho gufasha abaturage mu kuba bamenya uko bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo batange inyemezabwishyu ku muturage wahashye ibintu runaka.

Umunara munini kandi muremure cyane ushinzwe gufasha bimwe mugo bishinzwe itumanaho cyangwa guhuza agace kamwe n'akandi mu byerekeranye n'itumanaho.

Iyamamazwabikorwa by'umwihariko ryibutsa abishyura ko ibyerekeranye no kwishyura imisoro ko itariki ntarengwa ziba zashyizweho zitagomba kurenga abishyura batarabikora.

Urubuga rwagenewe abaturage muri rusange, mu kuba bashobora kureba bakamenya amakuru ku byerekeranye n'ubutaka, ahashobora guhingwa cyangwa ahagenewe imiturire.

Umwe mu bayobozi ba leta aho ari mu nama ari kumwe n'abandi bantu batandukanye, mu kuganira ku cyateza imbere igihugu kandi n'icyatuma barushaho gukorana neza.

Iyamamazwa ry'ikigo cya leta mu kwerekana uburyo umuturage ari we uri ku isonga yaba mu mikorere no mu mikoranire no mu mikoranire hagati y'abayobozi n'abaturage muri rusange.

Inzu nziza kandi yubatswe mu buryo bugezweho, ku buryo abayibona babona ko ari nziza cyane, ikaba ifite n'iminara ifasha mu itumanaho kugira ngo abantu bahatuye babashe kuba bakoresha murandasi zabo neza.

Uburyo bwashyiriweho umuturage n'ikigo gishinzwe ibyerekeranye n'imisoro n'amahoro kugira ngo afashwe kuba yakwishyura cyangwa akamenya imisoro ashobora kwishyura ku byerekeranye n'ubukode cyangwa ibicuruzwa bye cyangwa imitungo ye bwite.

Ipoto nini kandi ikomeye ikozwe mu byuma ifasha imiyobora inyurwamo n'umuriro mu kuba yavana umuriro mu gace kamwe iwugeza mu kandi kandi hakaba hariho n'ikindi cyuma cyabugenewe mu kugabanya ingano y'umuriro utangwa mu baturage.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ku ruhande hakaba ibikorwaremezo urugero amapoto ashinzwe gutanga imiriro ku baturage ndetse n'amazu yubatswe mu buryo bugezweho kandi bigatuma hasa neza.

Ibikorwa remezo mu baturage aho hagiye hashingwa amapoto kugira ngo afashe abaturage kuba babona umuriro ndetse no ku muhanda hakagenda hashyirwaho amatara kugira ngo abafashe mu kuba bareba nimugoroba kandi binabacungire umutekano.

Ipoto ifasha abaturage kuba babona umuriro mu buryo bworoshye kandi bikabarinda impanuka ndetse hakaba hari n'icyuma gifasha kugabanya cyangwa kongera ingano y'umuriro woherezwa mu baturage.

Ahakorerwa imirimo itandukanye, harimo ubucuruzi, haba ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye umuturage ashobora gukenera, hakaba hari n'ibikorwaremezo, aho kubona umuriro byoroshye.

Ibikorwa remezo mu baturage aho babona amashanyarazi mu buryo bworoshye kubera amapoto yagiye ashyirwa hafi y'ingo zabo, kugira ngo babashe kubona umuriro mu buryo buboroheye.

Urukuta rurerure rwashyiriweho mu kurinda cyangwa mu kubungabunga umutekano w'ahantu runaka, hakaba hari n'inzu yagenewe umurinzi kuba yakwicaramo kugira ngo abashe gucunga umutekano w'ahantu ari kandi neza.

Ibikorwaremezo mu baturage aho bashyirirwa amapoto hafi kugira ngo babashe kuba babona umuriro mu buryo bworoshye.

Ibikorwa remezo ku baturage aho bagiye begerezwa imihanda hafi ndetse bakegerezwa n'umuriro hafi y'abo, ku buryo bashobora gucana ari nako barinda umutekano wo mu ijoro.

Ipoto nini kandi ndende, ikozwe mu byuma bikomeye cyane, ikoreshwa mu gufasha imigozi kuba yakwambukiranya, ukava mu gace kamwe ujya mu kandi, mu rwego rwo kwirinda impanuka cyangwa inkongi z'imiriro.

Amapoto maremare kandi akomeye ariho icyuma cyagenewe kugabanya umuriro w'amashanyarazi, ugezwa ku baturage mu rwego rwo kwirinda impanuka y'umuriro cyangwa inkongi z'umuriro.

Amazu yubatswe neza kandi mu buryo bugezweho, asa neza kandi afite ibisenge bigezweho, akaba afite ubusitani bwiza buririmo ibiti by'amoko atandukanye kandi bigatuma umuhanda usa neza kuko hakorerwa isuku yihariye.

Ibyumba bitandukanye bifashirizwamo abantu ku byerekeranye n'ibibazo bitandukanye bagiye bafite, yaba iby'umuntu ku giti cye cyangwa muri rusange.

Ibyumba bitandukanye byagenewe gutangirwamo ubufasha bugiye butandukanye, kandi hakaba hari n'intebe zicarwamo na bamwe mu bantu baje kuhasabira ubufasha.

Ibitaro bigezweho kandi byiza byitiriwe umwami Faisal ndetse bikaba bitanga ubufasha ku bantu b'ingeri zose, aho bagira ubuvuzi bwiza kubera ibikoresho bigezweho n'ukuntu ibitaro byubatse, bikaba bisa neza ku buryo uhagana wese yishima.

Ahagororerwa kandi hakanafungirwa bamwe mu bakoze ibyaha bigiye bitandukanye, yaba iby'ihohotera cyangwa iby'ubundi buryo bwose kandi hakaba hafungirwa abagabo gusa.

Bamwe mu bashinzwe umutekano aho bari kugeza imbere y' umunyamategeko cyangwa umushinjacyaha mukuru kugira ngo bafashe cyangwa bamuburanishe imbere y'amategeko mu buryo bunyuze mu mucyo.

Umwe mu bashinjwa icyaha bakaba bicaye hamwe bari mu rubanza, aho afite abamuburanira mu byerekeye amategeko.

Bamwe mu bari kurahira barahirira igihugu cyabo bifashishije ibendera kugira ngo bagaragaze ko bubahiriza amategeko kandi bazanafasha n'abaturage kuyashyira mu bikorwa.

Igikoresho cyagenewe gushyirwa ahantu hagaragara, kubera ko cyifashishwa mu kurinda cyangwa guhashya inkongi y'umuriro yateye mu nyubako cyangwa ahandi hantu ariho hose hashobora gutuma byakwangiza inyubako yose.

Ahacururizwa ibikoresho by'ubwubatsi ndetse ukaba wahasanga ibikoresho bigiye bitandukanye, by'umwihariko hakaba harimo urwego rugezweho rufasha uri kubaka cyangwa uri kuzamuka ajya ku gisenge cyangwa uri kuzamuka ajya ku yindi nyubako, kuba yahagera neza kandi afite umutekano.

Bamwe mu bakora ibikorwa by'ubutabazi by'umwihariko ahaba habaye inkongi z'imiriro barimo barafasha abaturage mu kuzimya cyangwa bagahashya iyi nkongi y'umuriro kugira ngo itibasira igice kinini.

Igikoresho cyabugenewe mu gutwara amazi ava ahantu hamwe ajya ahandi kandi akashobora kuba yakora urugendo rurerure kugira ngo afashe ahabaye ibiza by'umwihariko by'inkongi z'umuriro.

Igikoresho kifashishwa mu gutwara amazi kiyavana ahantu hamwe kiyajyana ahandi, ahanini kikaba cyifashishwa mu gihe habayeho inkongi y'umuriro kugira ngo gitume amazi ahagera vuba kandi mu buryo bwihuse.

Ikinyabiziga gikoreshwa n'abashinzwe umutekano wo mu muhanda aho bagikoresha barimo baragenda genda bacunga umutekano w'ibinyabiziga ndetse n'uko uburenganzira bw'abantu bwakubahirizwa.

Abayobozi batandukanye harimo n'umukuru w'igihugu aho bari gufata urwibutso rugaragaza igihe bari mu nama cyangwa barimo baganira ku byerekeranye n'imikoranire y'ibihugu runaka.

Iyamamaza ry'umwe, mu bari guharanira kuba umukuru w'igihugu, mu gihe ari kwiyamamaza ku baturage, ababwira imigagabo n'imigambi, ndetse n'icyo azabamarira.

Abaturage bagiye gusura ahantu runaka ndetse hakaba hari n'amwe mu mabendera y'ibihugu bitandukanye, ndetse n'ibigo bitandukanye, mu rwego rwo kuba batembererwa aho hantu bagasobanurirwa ibyiza byaho ndetse n'akamaro bifitiye abaturage muri rusange.

Abaturage baje gushyigikira ishyaka runaka kandi bakagaragaza uburyo baryishimira kubera ibyiza ndetse n'iterambere ryabagejejeho kandi ko babari inyuma.

Inzu zubatswe mu buryo bugezweho, kandi zifite amagorofa atandukanye , aho ushobora gusangamo ubufasha butandukanye mu byerekeranye n'ubukerarugendo aho wabonamo ibyumba bikoze neza kandi bisa neza , ahandi ugasanga hatangirwamo ubufasha mu byerekeranye n'amategeko cyangwa ibya Leta muri rusange.

Bamwe mu bayobozi ba leta aho barimo barasinya amasezerano ndetse n'imikoranire hagati y'ibigo bitandukanye cyangwa inzego zitandukanye za leta, kugira ngo barusheho gukorana neza.

Umukuru w'igihugu aho ari kurahirira kandi akanashyiraho umukono ku masezerano agaragaza yuko azakorera igihugu kandi akagifasha mu iterambere yaba mu bibi cyangwa ibyiza.

Umwe mu bayobozi bari kurahira indahiro ikomeye kandi igaragaza ko bifuza gufasha igihugu, aho ari kurahira akoze ku ibendera ry'igihugu.

Bamwe mu bayobozi ba leta aho bari gusinya amasezerano yimikoranire hagati y'ibigo runaka bahagarariye mu gihe bari kubishyira mu ngiro.

Umukuru w'igihugu urimo aragaragaza uko ashyigikiye amatora ndetse ko n'abaturage nabo bashishikarizwa gutora kuko bibafitiye akamaro ndetse n'igihugu muri rusange.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga mu muhanda, aho biri kunyuranyuranamo, ibindi bisa n'ibihagaze ndetse hakaba hari n'urujyauruza rw'abantu bari mu mirimo yabo ya buri munsi.

Ahahurira ibinyabiziga bitandukanye bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hakaba hari n'urujya n'uruza rw'abaturage baje gushaka ubufasha kugira ngo babashe kuba bagera aho bagiye bifashishije ibyo binyabiziga.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ku ruhande hakaba hari bimwe mu binyabiziga bishinzwe gutwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'ahakorerwa imirimo itandukanye y'ubucuruzi.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse na bamwe mu baturage, bari kugenda cyangwa bakava mu mirimo yabo ya buri munsi kandi bakaba bari kunyura mu nzira zabugenewe.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byaba ibitwara abantu ku giti cyabo cyangwa ibikoreshwa mu mirimo y'ubwikorezi ndetse hakaba hari n'abaturage bari kujya cyangwa bakava mu mirimo yabo ya buri munsi.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cyabugenewe mu kwigisha umuntu wese wifuza kubona icyangombwa cya burundu mu gutwara ibinyabiziga mu gihugu.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukaniye ,aho biri kubisikanamo bigenda ibindi bigaruka kandi nta muvundo ku ruhande hakaba bamwe mu baturage bari mu mirimo yabo ya buri munsi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, yaba ibinini ndetse n'ibito, hakaba hari no kunyuramo abantu batandukanye, bajya mu mirimo yabo ya buri munsi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye aho uri kunyurwamo n'ikinyabiziga gishinzwe kwikorera ibintu, aho kikoreye bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi mu mihanda.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda cy'ibiziga bitatu cyifashishwa mu bwikorezi bw'ibintu aho cyikorera ibintu n'ubwo biba ari bike ariko kigafasha abaturage mu buzima bwa buri munsi.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kinini gishinzwe ubwikorezi, aho cyikoreye ibintu bitandukanye, harimo umucanga kandi kikaba gishobora kuwugeza aho bikenewe, mu gihe gito.

Ikinyabiziga kinini cyagenewe kwikorera imitwaro myinshi kandi iremereye, kikaba gifasha abaturage mu kuba batwara imizigo yabo kandi badahenzwe.

Agace kashyiriweho abaturage mu kuba bashobora kwisanzuramo bari kugenda n'amaguru cyangwa bari kuganira n'inshuti zabo, bari no kuruhuka kugira ngo babone umwanya uhagije wo gutekereza cyangwa gukora akazi kabo neza.

Ikibuga kinini kandi kisanzuye, bashobora gukoreramo ibintu bitandukanye, urugero nk'imikino yo kwishimisha cyangwa bakaba bahakorera ibindi bintu bitandukanye, bishobora kubyaza inyungu cyangwa bigateza imbere igihugu.

Ikibuga kinini kandi cyiza gifite ibyatsi byiza bituma hasa neza cyane, gishobora gukorerwamo imirimo itandukanye yaba iyo kwishimisha cyangwa ibirori bitandukanye.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'intoki uzwiho ku izina rya basikete, aho kiba gikoze neza kandi gifite isuku kugira ngo abagikiniramo babashe kwishimira iyo mikino.

Icyapa cyereka utwaye ikinyabiziga ko imbere ari inzira, mu buryo bwe ashobora kuyinyuramo cyangwa agakomeza imbere nta nkomyi kandi bikamufasha kuba yatwara neza mu muhanda.

Icyapa cyerekana kandi kikanaburira utwaye ikinyabiziga ko imbere hari inzira igenewe abanyamaguru ko agomba gutwara neza kandi akagenda gakeya yigengesereye.

Icyapa kiburira utwaye ikinyabiziga ko hari agahanda k'ibumoso bwe kinjiramo ko agomba gutwara yigengesereye kandi ari maso ku buryo bimurinda akaga.

Icyapa cyereka umuntu utwaye ikinyabiziga ko imbere ye hari amakorosi avunaguye cyane, ku buryo bishobora kumuteza akaga, aramutse adatwaye neza.

Ibyapa biburira utwaye ikinyabiziga ko imbere ye muri metero ijana agomba kwitonda kuko hari inzira y'abanyamaguru bahambukira by'umwihariko abana, hakaba hari n'akadunduguru gatuma imodoka ishobora kwiceka mu gihe atagenze ari maso.

Icyapa cyashyiriweho abagenzi ndetse n'abatwaye ibinyabiziga, mu kuba bamenya amerekezo barimo cyangwa ayo bari kwerekezamo bitabanje kubagora.

Icyapa kiburira utwaye ikinyabiziga ko imbere hari inzira y'abanyamaguru ko agomba kugenda yitonze kandi ko na none hari n'umuhanda winjiramo kugira ngo bamurinde kuba yahura n'impanuka.

Igororero ryashyizweho n'igihugu kugira ngo rifashe bamwe mu baturage bagiye bakora amakosa atandukanye cyangwa bamwe mu bana bajya mu mihanda kugira ngo bongere babasubize ku murongo babe basubira mu buzima busanzwe.

Icyapa kiburira umuntu utwaye ikinyabiziga ko agomba kugenda yitonze kubera ko imbere hari inzira inyurwamo n'abanyamaguru kandi ko agomba kuba yiteguye gutanga inzira.

Icyapa cyereka utwaye ikinyabiziga ko hari umuhanda ukomatanyirijeho kandi ko agomba gutwara neza yitonze kugira ngo adasanga ikindi kinyabiziga kiri mu muhanda bigateza impanuka.

Inzu nziza kandi zubatswe mu buryo bugezweho zifite amabara meza kubera ukuntu zitaweho ndetse n'ubusitani bwiza ndetse n'ibikorwa remezo urugero nk'imihanda ndetse n'amashanyarazi kuri bose.

Agace gatuwe n'abaturage batandukanye kandi byoroshye kuba babona bagerwaho n'ibikorwa remezo urugero nk' umuriro ndetse n'amazi, kandi bakaba baturiye ikibuga kigwaho za rutema ikirere.

Inyubako nziza kandi isa neza yubatswe mu buryo bugezweho ifite ubusitani bwiza kandi bugezweho, ukaba ushobora kuyisangamo ibintu bitandukanye by'umwihariko ibyumba byiza kandi bisa neza byo kuraramo ku giciro kiri hasi kandi hakaba hafite isuku ku buryo wizewe n'umutekano waho.

Inzu nziza kandi ndende yubatswe mu buryo bugezweho ikorerwamo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, urugero nk'ubufasha bwerekeranye nuko wacunga umutekano w'amafaranga yawe.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga kandi usa neza, iruhande rwawo hakaba hari urusengero runini, rutuma abantu babasha kwegerana n'Imana yabo kandi hakaba hari n'abantu bari kunyuramo, bajya muri gahunda zabo.

Inzu nziza y'ubatswe mu buryo bugezweho kandi ifite amagorofa atandukanye ikorerwamo ibintu bitandukanye ushobora gusanga amacumbi cyangwa ibyumba byo kuraramo.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bari muri gahunda zabo za buri munsi hakaba hari n'inzu zagenewe ubucuruzi cyangwa zitangirwamo ubundi bufasha bugiye butandukanye.

Icyapa kigaragaza uburenganzira buhabwa umuturage cyangwa ikigo gishinzwe gukora ibikorwa remezo byaba kubaka imihanda cyangwa ibindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Agace gakorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ndetse kakaba karimo urujya n'uruza rw'abaturage bari mu mirimo yabo ya buri munsi cyangwa barimo barataha bajya mu ngo zabo.

Inzu nziza zubatse mu buryo bugezweho hakurikijwe igishushanyo mbonera cy'umujyi kandi abahatuye bakishimira kuba batuye neza.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba n'icyapa kigaragaza ko bitemewe guhahagarara n'inzira yagenewe abanyamaguru mu buryo bwa rusange.

Imihanda ikoze neza ku buryo ibinyabiziga binyuraho neza kandi nta muvundo biteje, hakaba hari n'ibiti bituma hasa neza kandi hakaboneka n'umuyaga mwiza.

Umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, by'umwihariko ibyikorera imizigo iremereye ndetse n'ibindi bikururana, hakaba hari n'amabara atandukanye muri uyu mihanda, yerekana inzira abagenzi banyuramo ndetse n'imbibi, za buri gisate cy'umuhanda.

Umuhanda usa neza kandi uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, aho urimo amabara atandukanye agaragariza utwaye ikinyabiziga imbibi agomba kutarenga.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye yaba ibinini cyangwa bito ariko bikaba biri kugenda neza ku buryo bwihariye kubera ko hashyiriweho amatara ayobora ibinyabiziga hakamenyekana ibicaho n'ibitanga inzira.

Umuhanda usa neza kandi umeze neza cyane, ufite ubusitani bwiza ndetse n'ibiti bituma haboneka umwuka mwiza, ukaba uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye yaba ibinini ndetse n'ibitoya.

Umuhanda ufite ibisate bitandukanye kandi usa neza ufite n'isuku, ukaba urimo n'amerekezo cyangwa inzira yereka abanyamaguru, aho bashobora kwambukira nta nkomyi bakava ku gice kimwe bajya mu kindi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye yaba ibinini cyangwa bito, ku ruhande rw'aho hakaba hari akazu gakoze mu byuma gafasha abategereje ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange kuba barindwa imvura cyangwa izuba ryinshi.

Umuhanda ufite ibisate bitandukanye kandi ukoze neza ku buryo byorohereza utwaye ikinyabiziga kumenya aho agendera bikagabanya umuvundo, hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane butuma hagaragara neza.

Ibikorwa remezo, harimo imihanda igezweho inyura hejuru, kandi igafasha indi mihanda, mu kuba hagabanuka umuvundo w'ibinyabiziga, mu gihe biri mu mirimo yabyo ya buri munsi.

Imihanda minini kandi myiza ikoze neza, ku buryo igiye ifite ibisate, aho ibinyabiziga binyuramo byisanzuye, bikanayifasha kuba hakwirindwa umuvundo.

Umuhanda munini kandi wagutse, unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, yaba ibinini cyangwa ibito, kandi ukaba uriho n'ibimenyetso bigaragaza imbibi zawo.

Imihanda inyuranamo kandi ikozwe mu buryo burinda umuvundo w'ibinyabiziga mu gihe biba biri kunyuranamo, biza cyangwa bigenda kandi hakaba hari n'inzira zabugenewe abanyamaguru banyuramo.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, hejuru yaho hakaba hari ikiraro ariko na cyo kinyurwaho n'ibinyabiziga mu rwego rwo kwirinda umuvundo no kugabanya umuvundo w'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga.

Umuhanda usa neza kandi ufite isuku uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hakaba hari n'inzira yagenewe abanyamaguru kugira ngo bambuke bava mu gisate kimwe bajya mu kindi.